Umwana w'umukobwa, uri kuri kandagira ukarabe, ari kurekura amazi, akenyeye igitenge, ari kureba imbere agaseka, yambaye akagofero ndetse inyuma ye hari umuryango n'urugi.

Umuntu wunamye uri gukora mu bintu bimeze nk'ibifuro, hasi aragaragara nk'aho ari mu manga, akana karicaye kari kwitegereza ibyo akora ariko umuntu mukuru ari impande yako, ameze nk'uri guteka ari gutekera ahantu mu mukoki hasi.

Ikintu cy'igihombo kimeze nk'ikiri kuzana amazi kiyasuka ku biganza by'umuntu, umuntu ufite umwenda ujya gusa icyatsi, ariko ufite ibara ryo gusa ubururu, aya mazi biragaragara ko ari kuza adudubika, ari kuva mu runtu rw'uruhombo rw'umukara rumeze nk'aho ari uruhorwa rw'uruti.

Abantu baricaye, harimo abambaye udupfukamunwa, bicaye mu bihande bibiri abandi bahagaze ku gipande kimeze nk'aho ari icya gatatu, hejuru mu nzu harimo purafo ndetse n'itara rirereta, harimo abambaye iby'umutuku n'abambaye inkweto zifunguye.

Amajerekani atondetse ku murongo. Umudamu ufite ijerekani yanduye, umudamu wambaye igitenge ugikenyeye, umukobwa uri kureba mu ivomero mo imbere, umudamu uri kureba ku ruhande wambaye umupira w'umweru n'inkweto z'umukara nini.

Umuntu uri kwerekana ifoto ku ntebe hari udutabo tumeze nk'udufoto na two, umujyanama w'ubuzima wicaye ku ntebe niwe uri kubyereka abantu babiri, babiri bicaranye umusore n'umukobwa, umukobwa utwite, umusore wambaye ishati y'igitare wamufashe ku rutugu.

Abaganga bambaye udupfukamunwa. Bipfutse mu mutwe, hari umurwayi uryamye hasi, bamupfutse kugera mu gatuza, mu maso hari akantu bamupfutseho. Bafite ibikoresho kabuhariwe bigezweho. Impande yabo hari ibicometse, hari n'ibyo bari kumushyiraho.

Ikamyo ndende, imbere hari utundi tumodokaaa, hari akandi akari imbere yayo imbere imbere cyane, iyi kamyo irakurura ibimodoka bibiri bishoreranye, iyi kamyo ishushanyijeho amagambo WFP, ndetse n'utundi tuntu tumeze nk'ukwatsi turi hafi y'ayo magambo.

Umuntu ufite ibitano impande ye ari kumwe n'umudamu ufite umwana ari kumusobanurira uburwayi nk'umwana afite ndetse ni mu rugo aho bari kuganirira kandi impande yabo hari rido ikinze inzu y'amabara ndetse yateye agatebe imbere ye yundi ari kumubaza.

Umuhungu wambaye akantu mu ijosi yambaye umupira mugufi, ndetse no mu kuboko yambayemo akandi. Imbere ye hari undi umuhungu urikambara afite umusatsi ujya kuba mwinshi yambaye ishati ijya kuba ngufi ifite amaboko asa n'aho aciye. Hari abandi bantu hari umuntu uri kuri telefone inyuma ye.

Inyubako itandukanye. Iraviringuye. Hirya hari igice gifite udushami twikoreye cyangwa se inkingi za mwikorezi. Inyubako yubatse neza ifite amadirishya hirya iranasakaye isakaje amabati atukura. Inyuma haragaragara nk'aho harenga, hirangiye cyane kubera ko hameze nk'aho harimo agashyamba.

Agakombe kari kumanukiramo amazi, robine ebyiri zirafuye, amaze ari kumeneka, umwana ari kuyadaha, afashe agakombe amazi ari gushongonokeramo agwamo hasi, ari guseka, umwana mutoya wambaye agapira gatukura, umwana ufite amatwi agaragara.

Aba bantu barahagaze, abambaye amashati y'imyeru, abazungu, abirabura, abambaye utujire, abambaye inkweto z'inshongo n'abambaye inkweto zisanzwe, aho bicaye hari amakaro kuko hararabagirana.

Umugabo ufite umwana, akana afite ni gato cyane bambaye imyenda isa hejuru akana gahagaze ku munzani upima hasi hari telefone umunzani uteretse kumukeka. Hejuru hari undi umuntu uhagaze umeze nk'umudamunawe wambaye ipantaro ijya kumera nk'iyabadamu y'umukara, uyu mugabo nawe yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkwto zimeze nk' izincongo hirya ye hari undi wifashe ku itako kandi wambaye ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umweru.

Umwana uri guterura indobo ayishyira kuri robine; impande aho kuri robine hari undi muntu uri kurekura amazi, wambaye ikoboyi n'inkweto zishaje; ni umuntu w'umugabo, urebye uko bigaragara iyi robine irashaje; hirya hari igikuta cy'amatafari ahiye.

Amagambo yanditse mu ibara ry'igitare. Wihave tu go awuti of awa weyi, endi luku at de adazi. Sitekehorudazi awuti ofu de, hu cani helipu meke dizi fingizi bela, endi make helifi mowa akisesibo. Aya ni amagambo yanditswemo. Umudamu, usa inzobe. Umudamu ufite imisatsi iboheye inyuma, ndetse n'amaherena. Wambaye agapira kajya gusa n'iroza.

Agatanda k'amasahane kanitseho amasahani n'amabasi, hirya yako hari insina ndetse n'uruzitiro rw'ibiti bimeze nk'aho ari ibiti by'imiyenzi, agatanda gafite ibiti bishinguye ndetse n'ibishinze.

Uruziga rumwo ibintu bimeze nk'amareyo. Uru ruziga rushobora kuba rwakwikaraga, hirya hari ibindi biziga byinshi bimeze nk'aho ari ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi iyo ubirebye witegereje neza.

Uyu mukobwa ari gufungura amazi ,yambaye imyenda y'ishuri, uyu n'umunyeshuri, ikintu afunguriraho amazi kimeze nk'igikandagira ukarabe ,ibiti biri inyuma ye, akaba n'abandi banyeshuri bambaye imyenda isa niye ,umunyeshuri uri inyuma wambaye udukweto twigitare n'amasogisi y'igitare.

Umuganga ari kuvura kuvura umubyeyi yamwambitse ikanzu ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe ko yaba afite umuvuduko ukabije w'amaraso yiteze igitambaro kandi bose bafite ibyo bitambaro mu mutwe impande hahagaze undi muganga bose uko ari babiri bahagaze bari kumushyiraho ibyuma bisuzuma umuvuduko w'amaraso.

Umukobwa umeze nk'aho ari koza ibikoresho, amabase, amajerekani, ikizu gishaje, inyuma hanitse imyenda ku rudodo, impande ye hari igiti gifite amababi.

Umusaza wicaye kujerekani, ijekani yavomye ibintu bimeze nk'umutobe, yambaye ishati y'amaboko magufi, yambaye ipantaro ndetse n'umukandara ari guseka, afite amaso, ari kureba imbere uko bimeze.

Umuganga yambitse umugore imyenda yabugenewe, ari ku musuzuma umuvuduko w'amaraso. Umugore witeze igitambaro na muganga yiteze igitambaro, yambaye rinete ndetse, impande ye hari undi ufite ibindi bintu mu ntoki by'igitare.

Umwana uri kuvoma amazi, amazi ari guturuka mu rukuta umwana wiyitegereje imbere cyane yambaye ipantaro izinze yambaye ipantaro ijya gusa iroza agapira k'amoboko magufi kajya gusa umuhondo. Afite mu maso hasa n'ahijimye bigaragara ko ari imibiri yombi.

Abana bahuje ibiganza bato cyane, bahuje ibiganza hafi y'agasanduku gateretse impande yabo, bambaye imyenda itandukanye, hari abambaye imyenda ijya gusa na kaki, abana bagaragara ko babaswe n'ubukene.

Umwana bariguha umuti mu kanwa umuganga ndetse na nyina umuteruye bari kumuha umuti, umwana yambaye umwenda w'umupira w'igitare n'akagofero nyina afite amenyo y'igitare ndetse n'umusatsi mwiza mvukanwa.

Umuganga yambaye agapfukamunwa, no mu mutwe yambaye ibimupfutse, yambaye igikanzu cyabugenewe, ari kuvura umuntu wicaye ku ntebe wambaye ikanzu y'umukara, hirya hari abandi bantu bari kuza bareba ndetse harimo n'umudamu, hano ari kumera nk'uri kumuha imiti yo mu kanwa.

Imodoka y’ambulance amatente inyuma abantu benshi bahagaraye ambilanse ifunguye umudaso ibendera inzu isize amarangi inzu ifite urugi hirya yaho har’indi modoka.

Umudamu uryamye bamutwikiye igitenge undi ari kumukoraho. umwe ari kumva ateze amatwi ahengetse umutwe, undi arunamye ari kureba ibyo undi arimo.

Abantu mu nama hejuru hari ifoto z’abantu zanditseho amagambo, abantu bandi bari imbere bari kureba bitegereje abari imbere yabo.

Abantu bambaye imipira y'umuhondo, abazungu batandukanye bari guhobera abana, abazungu bari inyuma y'abana, abana bose bari gupepera imbere yabo, nk'aho hari abantu, kandi ari ugupepera gusa, ndetse nta bantu bahari, kuko abo bakeneye bose babakiriye.

Umujyanama w'ubuzima, yambaye akajire, ari gufungura umuti kugira ngo ahe umubyeyi, afite imisatsi iboheye inyuma, yambaye agapfukamunwa, arahagaze, impande ye hari undi muntu wambaye akagofero na we igiye imisatsi iboheye inyuma, uwo mubyeyi afite akana mu myenda y'umuhondo.

Bose bambaye amataburiya havuyemo bamwe na bamwe, bahagaze hirya ku ruhande hagana ku kantu kameze nk'igihuru, n'undi umwe uhagazemo hagati w'umuganga wambaye imyenda y'amataburiya abafite telefone mu ntoki barimo ndetse bose bari kureba imbere.

Abantu bicaye, umugabo wambaye ishati ikunje amaboko, umudamu ubitegereza bose wambaye agapira k'umuhondo, umugabo wicaye yambaye ishati y'ubururu, bicaye ku dutebe tw'umukara dupfumuyeho hejuru, inyuma yabo hari ibikoresho by'umuriro w' amashanyarazi, harimo umudamu wambaye ibya gisilamu.

Umwana w'umuhungu ufite umusatsi, yambaye agashati k'amaboko magufi n'akabutura, ari kuri robine, afite akadobo kari impande ya robine, hari ikindi kido giteretse hirya gisa ibara ry'icyatsi kinini.

Umwana uri kuva mu mazi, ari kuva mu mazi yambaye agakabutura ndetse n'agasengeri, nta musatsi afite ni umwana unanutse, aya mazi biragaragara ko hirya hari ibyatsi, hirya hafi yayo, aya mazi ari kuvoma ni amazi atemba.

Abana bari guhabwa ibintu byo kunywa mu gikombe ndetse hari n'abafite ibicupa bari guherebwamo, abari kubagaburira bari kureba imbere, aba bana bambaye imyenda ijya gusa n'iroza, bose bambaye imyenda isa bano bana, ariko aba bantu bakuru bo bambaye imyenda itandukanye.

Umwana ufite igikombe mu ntoki, hirya hari abandi bana batoya, ruguru hari ubwatsi ahagaze hafi y'amazi asa nabi. Aya mazi agaragara ko ari ay'igishanga. Abana bari hirya bari kureba uyu mwana wambaye ishati y'umuhondo w'umunyeshuri n'ikabutura y'ubururu.

Umugabo ufite compuyuta imbere ye, abandi bahagaze inyuma. Bose, harimo uwambaye akajire ndetse undi ni umumama, yitandiye umwitambiro, uyu yambaye agapfukamunwa ndetse bose bambaye agapfukamunwa.

Abantu benshi hari n'amatete, inzu ifite urugi ikagira n'urubaraza, urugi rurakinguye, hari idarapo imbere y'abantu, hari abantu bari kuri telefone, wambaye akantu mu ijosi kagaragaza ikarita.

Umwana ari guhana ikiganza n'umugabo, ibiganza byabo biri hejuru. Uyu mugabo yambaye agapira kajya gusa na oranje, hirya inyuma yabo hari abandi bantu bahari bicaye. Inyuma aho hirya hari ibyatsi birenga bigaragara bimeze nk'aho ari agahuru.

Umugabo ufite indangururamajwi ahagaze imbere yambaye ikote abandi bateze amatwi, harimo abafite imisatsi iboshye harimo n'ufite mudasobwa, imbere ye hateretse amazi. Hari intebe bicayeho ndende, zegamirwa zifite utuntu twegamirwa.

Abantu bari kuvoma. Amajerekani, n'amazi ari kuva muri robine. Umugore wambaye ijipo. Ni iya karokaro ndetse n'umugabo ufite igare hirya. Undi arahagaze ari kubareba. Umugore yambaye agapfukamunwa. Hirya hari n'undi wambaye akandi kijimye.

Abantu bose bafite ibitabo bose barebe imbere bica ku ntebe zishoranye ndetse intebe zimwe intebe zigaragaza ko aba bantu bicaye bameze nk'abari mu nama, bameze nk'abari mu nama n'utu dutabo bafite.

Abantu bari kuvoma amazi. Umwe ari kuzamura icyuma kiyazamura kiyakura mu kuzimu, kiyakura mu butaka, abandi bakavoma. Hari abana bafite amavido. Ibijerekani umwana afite, ayifashe neza, ayitsikamije amaboko.

Abantu bose bahanze amaso imbere baricaye ni benshi bari mu nzu, bambaye amakarita imbere ku nda bafite amabere, bose baritegereje kandi bahanze amaso ibyo bareba imbere.

Umudamu w'umuganga ari gusuzuma umwana afite akantu ari kunywa kameze nk'akarimo umuti, uyu mudamu yambaye itaburiya, ari gusuhuza umwana aseka, umukobwa umufite mu biganza yambaye umupira ufite ingofero ndetse afite imisatsi iri kurereta inyuma.

Abantu benshi b'abayobozi bahagaze, bambaye aya amakositime n'aba mama bambaye imyenda isanzwe y'abamama, amajipo, imipira, bambaye amakarita y'akazi, kandi hejuru hagaragaraho n'ikirango cy'ibyo bakora ndetse n'imiryango bahagarariye.

Utwana tubiri, kamwe gateze ibiganza kari gufata amazi, amazi ari kumanuka hejuru bakayakaraba. Umwe yambaye imyenda ijya gusa n’iyi gisirikare, undi yambaye agapira k'umutuku n'agakabutura. Aya mazi ari kuva mu runtu rw’uruhombo runini.

Abadamu bafite utuntu mu ntoki umwe ari kureba imbere undi yahaye muganga intoki ze, muganga ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso yamwambitse ibikoresho bisuzuma umuvuduko w'amaraso, abandi bari kureba hirya hari jaride irimo ururabyo.

Umuntu arapfukamye abandi bahagaze impande ye, hari ufite indangururamajwi ari kuvuga, inyuma hari ibihuru, ariko abana baramushungeye cyane, abana batoya bari kumureba ndetse umugabo wambaye inshwabari inyuma y'iwe ufite indangururamajwi.

Uyu mwana afite akantu mu kanwa ari kurya, afite imisatsi iboshye, yambaye ishati y'igitare ifite karuvati idodeye ku ishati, yicaye ku ntebe, imbere hari ameza, inyuma ye hari ibintu by'ibitambaro, hari n'akandi kana kari kurunguruka gafite amatama.

Umugore wakambije impanga ari kureba arakaye, akenyeye igitenge ndetse yiteze igitenge mu mutwe, afite amaherena, ari kureba asa n'uhunyeza, mu mpanga ye haje iminkanyari kubera umubabaro kubera n'uburakari, asa n'uwahinnye amazuru ndetse n'iminwa ku mpande, yambaye isu ribaya imyenda y'imyambaro y'abadamu.

Abakobwa babiri. Umwe yambaye ikanzu y'ubururu undi yambaye iy'umukara afite amaherena ku gutwi. Afite imisatsi umwe igiye inyuma isa n' aho iboshye, undi afite imisatsi mvukanwa. Imbere yabo hari akantu karimo ibintu bimeze nk'ibipupe by'abantu bahagazemwo gateretse imbere yabo n'impande yabo wagirango ngo karirimo ifu.

Abana bambaye imipira isa, imipira yose y'icyatsi, aba bana bahagaze ahantu hamwe, harimo umuzungu ndetse n'umupapa wambaye karuvati ndende, bose bambaye amapantaro.

Wihogora. Ni amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi. Hagati harimo akagambo ka "o" karimo n'ibara ry'ubururu . Impande hari uruziga rufashwe n'ibiganza bibiri, uruziga rw'ibara ry'umuhondo. Hasi hari amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi, handitse psychosocial centre.

Umukobwa wirabura afite amenyo yigitare yamwenyuye asa n'uri guseka, imisatsi ye ni imisatsi isanzwe, yambaye agapira kameze nk'agakoti k'umutuku gafite amaboko ajya kumera nkaho ari maremare n'agapira k'ubururu.

Umuntu wicaye aboshye amaguru yicaye ku mukeka, yitambiye mu gahanga ukuboko ukundi kuboko gufashe ku kintu akenye. Yambaye agapira karimo uturongo tw'igitare ku rutugu ndetse ari kureba ibiri kubera imbere.

Abasore bicaye bose bambaye imipira y'umukara, imbere ye hari umuntu ufite imisatsi, yambaye n'umupira urimo uturongo, bose bashyize amaboko ku matako, imipira iriho ibirango, uyu afite imisatsi hasi arogoshe gusa n'abandi hasi bagiye bogoshe hejuru hakaba agasatsi, ariko mu mpande hari agasatsi gakeya kuri bose.

Umugabo ari kurira, amaso yatukuye amarira arashoka amanuka ku mazuru, ari kureba nabi kubera ko amaso yatukuye, uyu mugabo impanga yayikambije, uyu mugabo arirabura ndetse yabyimbye amaso kubera kurira.

Umukobwa wicaye, yifashe mu biganza, ari kureba hirya yitambiye agatambaro, hirya impande ye hari ururabyo, ururabyo rwasambuye rufite n'utubabi, uyu mukobwa yicaye ku ntebe y'urubaho impande hari indi ntebe.

Abadamu babiri, umwe afite telefone mu ntoki, undi ateruye mwana. Uyu ufite telefone ari kwereka akantu uyu nguyu uteruye umwana ndetse ufite akantu mu mutwe yiyambitse kameze nk'agatambaro kamupfuka umutwe. Uyu mwana afite imisatsi iboshye kandi uyu mwana yambaye amaherena na nyina yambaye amaherena.

He abantu baricaye, bari kure imbere, aha ku ruhande abambaye ikote uhagaze undi aricaye, utaryambaye yambaye ishati unatebeje, hirya none, inyuma hari abahagaze, inyuma yabo hari inzu ebyiri, hari nzu y' amabati y'umweru n'inzu yegereye igihuru imeze nk'ikiraro, n'indi nzu itunguka hirya.

Abakecuru bicaye bose bareba imbere, harimwo n'abana bose bicaye bareba imbere. Abana bo ni batoya cyane. Bagaragara ko bishwe n'inzara bazahajwe n'ubukene, bitewe n'uko bari kureba ndetse n'uko bameze mu maso habo.

Abana bari guseka cyane yamwenyuye amenyo, undi yifashe mu mutwe bose bari kurebera rimwe icyarimwe imbere, n'abana bose bari mu kigero kimwe uwambaye amaherena n'abandi batayambaye imyenda iriho nimero niyanditseho amagambo.

Umusore n'umukobwa. Umwe yambaye nk'umusore, undi yambaye nk'umukobwa. Hano hari amagambo yanditse Wellness live. Aya magambo yandikishije ibara ry'umukara. Hejuru hari ijambo Awa. Hasi is now. Hirya website. Aya magambo ari impande y'aba bantu babiri.

Umuntu uri kwigisha imbere abantu bamukurikiye ari kwandika ku mpapuro kandi harimo abambaye imyenda itukura, abambaye ibitambaro, abenshi urabonako ni abadamu, umugabo ni we uri kubigisha, afite isomo ari gutanga imbere bose bamukurikiye.

Umuganga wambaye amarineti mu mutwe. Ku gitanda hariho umwana arikuvura, arikumukora mu kanwa ibigaragara. Uyu muganga yambaye agakomo ndetse yambaye na ga mu ntoki. Imbere ye hari ibikoresho byabugenewe byo mu buvuzi.

Umuntu uryamye uri guhabwa umuti afite imisatsi nk'iy'abadamu aratwikiriye, umuganga ari kumurebera mu marineti y'ibirahuri, umuganga yambaye ga ndetse n'agakomo impande y'umuganga hari undi mugabo uhagaze nawe ufite wambaye ga ndetse n'ishati y'ubururu.

Umwana w'inzobe, afite ugutwi kugaragara yegamye ku kantu k'umutuku, afite amaso y'umukara n'igitare bivanze, amenyo ye n'umweru, ururimi ruragaragara kuko yazamuye iminwa kugira ngo muganga abone uko amusuzuma, muganga yambaye ga, yazikoresheje mu menyo.

Umwana ufite ikiyiko mu kanwa, ameze nkaho arikunywa umuti kuko ibiganza byambaye ga bimufashe ku minwa. Arigushyiramo afite ubwoba, arikureba imbere cyane. Umwana ufite umusatsi, n'umwana yambaye ga. Ikiyiko gifashe, izi ntoki zifashe ikiyiko zambaye ga na zo.

Umukobwa ari kwiborosa, afite uburoso mu menyo, amenyo ye n'igitare, umukobwa ufite inzobe nziza, witeze igitambaro, afite amaso meza, ari kureba imbere, intoki nizo zifashe uburoso, yambaye isengeri y'umweru.

Umukobwa ufite akantu gasukura amenyo, ashyiramo akadodo, amenyo yo ni igitare, uyu mukobwa ni inzobe, arasamye, ari gukuba akantu k'urudodo mu menyo.

Umukobwa ufashe ku matama, afite imisatsi myinshi, afite imisatsi isandaguje, umuhungu nawe ufashe ku matama, afite imisatsi iciye migufi cyane, afite amenyo y'igitare, umukobwa ari gusa naho aseka, umukobwa w'inzobe ufite ibitsike bimeze neza.

Umusaza ufite amatama abyibushye n'inda y'ibondo, yambaye akajire, imbere harimo umupira w'amaboko maremare, inyuma ye hari umukobwa na we uri kureba imbere cyane, umukobwa wambaye ipantaro, umukobwa wambaye agashati hejuru k'amaboko magufi, bicaye mu ntebe ndende.

Umukecuru wambaye urunigi rw'amabara mu ijosi, hirya hari imodoka, hino hari igiti ndetse n'inzu ifite amadirishya, uyu mukecuru ari mu gitereko cyabugenewe cyo gutangirwamo imbwirwaruhame nk'uko bigenwe, afite indangururamajwi ifite akantu k'umutuku.

Umusaza n'umukecuru, umusaza yashyize iminwa ku mukecuru kandi umukecuru ari guseka cyane. Agatambaro kari mu mutwe gasa ibara ry'umutuku, afite amenyo y'igitare ndetse uyu muzehe afite inzara z'igitare nawe.

Umusaza w'umukambwe uri kwandika, ufite uruhara, wambaye amarinete, uri guhengereza, ari kwandika mu gitabo. Yambaye umupira ndetse n'ishati, ishati y'ubururu, afite intoki nziza, afite agakaramu mu ntoki, ari guhengereza cyane kugira ngo yandike.

Umusaza wicaye imbere ye hari ikirahuri ku meza, imbere cyo cyane hari ururabyo rutetse ku meza, yicaranye n'umukecuru wambaye amaherena, umukecuru afite ibyo ari kumwereka mu ntoki. Umusaza nawe yitegereje afite akandi kantu mutoki kameze nkaho ari akanini.

Umukecuru n'umusaza, umusaza afite igikombe cy'ikirahure ari kunywa, afite imvi, afite umusatsi n'umukecuru afite umusatsi urimo imvi, yicaye mu ntebe muri saro, uyu mukecuru arabyibushye, biragaragara ko uyu musaza nawe abyibushye.

Umukecuru ufite ikirahure kirimo amazi ,afite akantu mu ntoki, umubyeyi nawe wambaye itaburiya ijya gusa icyatsi ,imbere hari akantu kameze nk'agatabo gateretse ku meza.

Umusaza wambaye rinete, yifasha ku munwa afite agakaramu, afite imvi ndetse n'ubwanwa n'imvi, ibipesu by'ishati yabifunguye, afite kantu impande ye kameze nnk'agatambaro gakubye.

Umusaza, umusaza ufite imvi n'umukecuru ufite imvi, bose basa n'abazungu ,bafite agakombe kumeza, umukecuru afite akarahure ,umusaza afite ibimuri imbere bijya gusa n'isabune, umukecuru yambaye agapira gatukura, inyuma yabo harira amarido.

Medecines we can trust: A call to a safeguard quality. Aya ni amagambo yandikishije ibara ry'umweru. Akana gafite ikiyiko kari kurya, amaso yako kayahanze imbere kasamye. Hirya hari andi magambo atagaragara yanditse yijimye ahantu mu ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye bose bareba imbere, abadamu bafite imisatsi iringaniye, umudamu wambaye ingofero, bari kureba imbere, abandi bambaye udupira tw'umweru, inyuma hariyo urukuta rugaragaza ishusho y'amatafari ahiye, ameza ari imbere yabo hariho mashini ndetse apfukishije ibitambaro by'amabara abiri atandukanye.

Umugabo ufite amenyo aje imbere, yazamuye iminwa amenyo aragaragara. Ari kureba imbere, ari kureba amaso ye asa igatare, afite agasatsi gake hejuru hasi yariyogosheshe arakagabanya, yambaye ishati y'igitare.

Inzu ifitemo utuntu tw'utumashini tumeze nk'imigozi ya serumu, hejuru hari igitanga umuyaga cy'icyuma, inkingi zifashe igisenge cy'inzu zubakiyemo imbere, harimo udutebe n'utumeza, ifite amadirishya, ifite n'inzugi, mo imbere iragaragara iramyase ifite n'amatara.

Abantu barimo imbere abazungu ndetse bari kurunguruka, hari uwambaye rinete aha ngaha ni mu imbere mu nzu y'ibirahuri, n'inzu igaragaza amashusho y'abantu mu imbere.

Agakoresho kameze nka kagare impande yaho hari imashini y'imibare imeze nk'aho ireba imbere hagaragara ko hari imbuga isa neza cyane, imbuga imeze nk'aho ari sima y'umutuku.

Abantu bari kuza bari munsi y'inzu, hirya hari ishyamba, undi ari guca mu kayira gakozwe n'amapave. Iyi nzu ni ndende ifite amagorofa, hari abari kuzamuka burira aya magorofa, isakaje amabati y'umutuku.

Umuganga ari kureba mu bikoresho kabuhariwe elesita ni amagambo yanditse kuri iki gikoresho, hirya hari utuntu tubiri tumeze nk'uduteleviziyo cyangwa tugaragaza ibintu by'amashusho ari kugenda akoraho byose, tukamureka ibyo yanditse. Iki gikoresho gifite ahapfutse ndetse n'ahandi hose hagaragara.

Muganga arakora muri mudasobwa, yambaye itaburiya y'igitare ndetse yambayemo ishati mu imbere afite umutima mu icupa. Iyi mudasobwa ifite akantu kameze nkagakaragwa ndetse hari n'ibindi bikoresho inyuma mu bubati, nindi mudasobwa iri ku meza.

Amagambo HH aya yanditse kuri iyi nyubako, yanditseho ngo Nyanza hosipito. Turabonamo ibiti bitoshye mo imbere, turabona n'icyapa. Ibyapa bibiri ikiri haruguru n'ikiri hepfo. Mo imbere hirya harimo ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ndende.

Intebe n'ameza, imbere yazo hari amarido. Hejuru hari igishushanyo cy'abantu babiri benda gufatana ibiganza. Ku kabati kari hafi y'amarido hateretseho udukombe. Intebe ifite agafariso hejuru ndetse no hasi. Biri muri saro ifite ahantu hashashagirana cyane.

Umugabo uri gutunga intoki ku cyapa, undi ari kureba afite mudasobwa, imbere y'uwo uri gutunga intoki hari mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, hari intebe ebyiri zibereye aho zitarimo umuntu uzicayemo.

Abantu bameze nk'abari gukingirwa kwa muganga, muganga yambaye imyenda yabugenewe, inifomo, umwana ari kwandika, umwana w'umusore, umukobwa ari impande ye, undi bari kumutera agashinge ko mu kaboko kameze nk'agaserumu, hari n'umuti uhanagura intoki.

Inzu irimowo ibitanda bimeze nk'ibyo kwa muganga ibitanda bigenda ibitanda inhandade yabyo hari udutebe hirya hari udutebe, buri ka meza kagenda gafite agatebe ndetse harimo n'ibikoresho byabugenewemo hirya bindi bimeze nk'iby'ikoranabuhanga bimeze nk'amakompiyuta cyangwa se mudasobwa.

Inzu y'amatafari ahiye, inzu ifite amabati y'icyatsi, amadirishya, imbere hateretse uturarabyo turi mu tudobo, impande hateretse ameza atwikiriye, igishitingi handitseho amagambo y'icyatsi ko ari inzu y'ababyeyi.

Inzu isize irangi ry'igitare, ifite amagambo hejuru ku rubaraza yanditseho, yandikishijeho ibara ry'icyatsi, imbere yayo hari umurasire w'izuba, ifite imbuga iririmo utwatsi turi kumera.

Abantu bari aho bakirira, umwe ahetse umwana, undi ni umwana muto wambaye ishati y'umweru, abandi baricaye bari kureba imbere, bari kurebana n'umuntu ugomba kubakira, hejuru handitseho ko ari kuri resebusiyo, cyangwa se aho bakirira ababagana.

Inzu y'ababyeyi n'impinja, ni amagambo ari ku kapa kanditse kuri iyi nzu, iyi nzu ifite amagorofa abiri agerekeranye, ako hejuru harimo akanya gasakaye ariko kadapfutse, inzu ifite ibirahure ndetse irangi ririho rijya gusa umweru ariko ni umweru uteruye cyane.

Ibingibi ni ibikoresho bitandukanye, bimwe bigaragara nk'aho ari iby'amashanyarazi, kariya ni akarahuri kameze nk'akagaragaza, amashusho iyi nzu ifite isaha ku gikuta, ifite n'ibindi bikoresho byesitaye mo imbere, kiriya gikoresho kinini kijya kumera nk'icya firigo, hejuru turabona purafo ndetse n'amatara acanye.

Ikigo kigaragara, aha ngaha ni ikigo nderabuzima cya gishweru. Aha ngaha hari abantu bahagaze ku rubaraza batatu n'uwicaye, ruguru hari aho kuzamukira hanubakiye gifite imbuga imeze neza.

Inzu irimo ibikoresho byiza intebe n'utubati na mudasobwa n'amadirishya y'ibirahure. Hejuru kuri parafo amatara ariyo ari kwaka. Hasi amapave nayo ari gushashagirana, mu mpande amarangi ari gushashagirana.

Inzu ifite amatafari ahiye, irangi, amabati, ku mpande hari indabo inyuma yayo hari indi nzu ifite amabati atukura n'ibigega bibiri icyapa kiri hagati y'ibigega bibiri, agahanda kajya ku nzu gakoteye na sima.

Abantu, bameze nk'abanyeshuri b'abaganga, bose bafite ibikoresho imbere yabo, bambaye imyenda y'igitare y'amataburiya, babiri mu ruhande rwa hino bafite imisatsi iziritse, hirya mu rundi ruhande harimo umwe, harimo abakobwa n'abahungu, bicaye ku dutebe tureture tureshya n'ameza begereye.

Insinga zifite utuntu tumeze nk'udukoteri kiriho hejuru gisa na ballon insinga zikubakubye z'umukara tsiriri zizinze zimeze nk'ubudodo babohaboshye.

Ibisukika mu gakombe biri gusukwa mu gakombe, bivuye mu kindi kirahure kinini bijya mu kirahure gitoya, birasukwa bimeze nk'aho ari amazi, arimo ibintu by'umukara bimeze nk'amakara, biragera mu gakombe bikaza bisa umukara tsirira cyane.

Ikimenyetso cy'umusaraba, umuntu uri kwirukanka, umuntu uri gusimbuka ndetse n'ikiganza, urutirigongo, umurongo ugaragaza urutirigongo ugaragara neza ndetse n'amagufwa y'urutirigongo.

Uyu mugabo ari kunywa amazi, yambaye umupira ufite amaboko magufi, abyibushye akaboko, afite umusatsi mukeya, ari kunywa amazi ameze nk'unyunyuza, arahagaze, afite ubwanwa butandukanye, buke cyane.

Uyu biragaragara ko ari gukora masaje, afite akaguru kambaye ipantaro y'umukara kameze nk'aho ari ak'umugore, uyu yambaye akantu mu ijosi kkagaragaza ibyo akora, yambaye itaburiya ifite agafuka karekare kandi kanini, afite amaboko abyibushye.

Ibiganza byambaye ga zipfumuye hasi, ibiganza bisa neza by'umutuku, nyira aya maboko ni umuzungu, intoki zitunguka mwiziga intoki enye enye, urundi rurapfutse rupfukiye muri iyi ga.

Umusore uri kunywa amazi, afite umusatsi wenda gutukura, afite pinya ndetse yambaye isengeri, akaboko ke karumutse pe! Kameze nk'akari kurasirwaho n'izuba, izuba risa n'iriri kumurasa, afite ubwanwa, ndetse afite n'ubumanutse ku mpande y'amatama bwitwa favore.

Ibiganza byambaye impeta, intoki zirimo impeta imwe, igitambaro gifashwe n'ikiganza cyo hejuru, igitambaro cy'icyatsi gipfutse ukuboko ko hasi, bigaragara ko uku kuboko ari ukuboko kubyibushye.

Umwana uri kunywa amazi mu icupa ry'igitare, ari kunywa amazi mu icupa ry'umweru rifite agafuniko k'icyatsi, yiteye umupira mu mutwe, afite umusatsi muke cyane, ndetse yambaye agapira k'icyatsi kavanzemo n'akandi kabara k'ubururu, mu gatuza.

Ibikoresho biri mu gikapu, harimo utumakasi, indodo, hakabamo n'utundi tuntu dutandukanye, harimo ubukoresho buzingazinze ndetse harimo n'icupa ry'amazi, hakabamo n'ubukoresho butwara amajwi mu gutwi buyavanye mu gikoresho cy'ikoranabuhanga nka telefoni.

Ikiganza, amavuta akora inkweto, itoroshi, amacupa utuntu tw'udusaraba, udukubo, ekole, akantu kameze nk'imakasi igonze ikuramo ibintu by'ibyuma, na agakoresho gapimo umuriro n'udushinge.

Umuntu ufite imashini imbere ye, iteretse ku bikoresho by'umweru, ni umugabo, yambaye ishati ijya gusa umutuku, ari kureba mo imbere.

Umusore w'intarumikwa uri kugotomera amazi, afite pinya akaboko gakomeye cyane rwose, umusore wumutse, umutwe rwose munini, afite icupa ry'icyatsi ririmo, amazi afite amatwi agaragara.

Ibiganza bibiri byambaye impeta, akandi kaboko kari kwambara ga z'umwimerere zikoze mu myenda, umuntu wambaye umupira w’umukara n’undi wambaye umupira w’uruvuzo ufite intoki nziza.

Ibikoresho bimeze nk'iby'amashanyarazi, igishashi kimeze nk'ipensi, amagi ari ku isahani n'ibimeze nk'ibishyimbo cyangwag se ubunyobwa, imineke iri kumwe n'utundi tuntu na two tw'utubuto, hejuru hari ibitunguru n'urusenda byose bipakiye mu kantu kamwe.

Umwana ufite kuteri mu matwi, isaha mu kuboko afite amaboko arambuye ari gukora siporo yambaye agasengeri kagaragaza inda ye ndetse n'umugongo, afite umusatsi mukeya yasobanyije amaboko hejuru, intoki zimwe zikora ku kaboko kamwe n'izindi zikora ku kandi.

Umukobwa wicaye ari kwifata ku rutugu afite mudasobwa imbere ye yambaye agapantaro kagaragaza upfundiko, munda he akenda ko hejuru gafashe hejuru gusa mu nda haragaragara afite imisatsi yatambitse akaboko hejuru yakazamuye.

Umusore bari kumupfuka akaguru bamwambika ikintu kimeze nk'isogisi, hasi hari akantu k'akuma gashinze yakuyemo urukweto rumwe urundi ararwambaye yicaye ku buriri yambaye urukweto rumwe rurimo isogisi, afite amaguru atukura yambaye imyenda y'imikara, ari kubikorwa n'undi wambaye imyenda y'imikara.

Umusore w'intarumikwa uri kunywa amazi, icupa riri mu kanwa, yambaye akantu mu kuboko, yambaye isenge y'umukara, amaboko yose aragaragara ko afite pinya, afite ubwanwa ku munwa we.

Akagare, gafite amapine abiri ibikandagizo ndetse kakagira n'ibishingisho, udupine tw'imbere ni dutoya cyane, ku buryo ay'inyuma aturuta cyane, ay'inyuma afite reyo zirimo zigaragara, harimo n'udukubo tw'utwuma hasi.

Umuganga wambaye akantu kariho ifoto ye, umugabo wicaye ku buriri bari kuzirika akaguru. Yambaye ipantaro y'ikoboyi, afite akantu yambaye mu ijosi ndetse n'umupira ujya kwijimamo. Uyu muganga we yambaye ishati y'umweru.

Abaganga, bose bafite utuntu bari kwandika, uyu nguyu ari kubereka, mu gikoresho cyabugenewe cyo gusuzuma, cyakwitwa nka mayikorosikopi, aba baganga bose bateze amatwi, inyuma yabo hari urugi rurimo imyenge igaragaza inyuma ibyatsi biriyo cyangwa se indabyo ziriyo.

Igitsibo cy'ubwatsi bw'umucyayicyayi. Hirya hari ikibabi. Hejuru hari imbuto. Hino nanone hari agati k'akarabyo. No hirya hari akandi k'akarabyo, gafite ububabi bwinshi butoya. Ubu bubabi, harimo ubundi buntu bw'uburabyo butukura.

Iki cyatsi gifite amababi yegeranye ndetse mo imbere aratsikanye. Hari urubuto rufashe kuri iki cyatsi ndetse n'ikintu kimeze nk'ururabo cyenda kubyaruka kikavamo kigaturika kikagera hanze.

Ibyatsi, abantu babirimo uyu muntu ari mu byatsi ari gusoroma n' utuntu tw'utubuto, yambaye akagofero, uyu muntu arirabura ari kureba neza kuri iki cyatsi, aracyitegereje cyane agihanze amaso afasha ku kantu ari gusoromaho.

Ibiganza biri gukora ku kibumbano kimeze nk'igitebo, hacopaguriwemo ibintu by'ibyatsi bitandukanye, ibimeze nk'inkoni zifite ingingo nk'iz'ibisheke, ibi biganza bifashe ku tuntu tw'utwatsi turi hafi y'ibyo bintu bicagaguye nk'ibisheke.

Icupa ryanditseho foreva bipolemi iri cupa n icupa ry'igitare rirapfundikiye cyane rifitemo hagati umunigo utandukanya ikinindi cyo hasi n'icyo hejuru n'icupa rifite ururabyo rushushanyijeho ndetse n'uruyuki ruri kurwurira.

Igikombe cyanditseho lid-for recycle. Iki gikombe cyanditseho lid-for recycle n'amagambo menshi agenda agaragaraho. Ni nk'ubwoko bw'umuti uba uri mu iki gikombe. Akenshi na kenshi bagashyira inyuma icyo usobanuye n'amazina yawo mu rurimi rw'Icyongereza.

Umuntu wambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya, afite imiti aha ngaha imbere ye, ingofero yambaye, yambaye ingofero y'icyatsi.

Igiti gihagaze mu twatsi tumeze nk'aho ari utw'umukenke, iki giti gifite amashami ndetse gifite n'amababi, hasi hari utundi duti tugufi ndetse n'ubwatsi bumeze nk'ubwasambuye, ubu bwatsi bumeze nk'aho uri mu gasozi buri.

Utuntu turi ku ibabi, tumeze nk'aho ari tubisi na two, kuko iri babi ni ribisi, ni utuntu turambuyeho, tumeze nka za bwende bupfe izo bita nyirabunene.

Amacupa abiri. Hirya hari efu cumi na gatanu, ruguru hari efu na i na ta. Hejuru hakaba na none ibindi bintu bimeze nk'ibikoresho birereta.

Abantu bameze nk'abari gusarura icyayi, bari mu byatsi byinshi cyane, bambaye imyenda ibapfutse, abandi bitambira udutambaro, ibi ngibi bimeze nk'aho ari agahuru k'ibyatsi bitoya cyane, byereranye cyane.

Akabati karimo ibicuruzwa ibisa n'imboga, ibisa n'amavuta, ibimanitse hejuru, ibisa n'ubwatsi byose bipakiye mu tubati dutandukanye.

Umudamu wunamye hejuru y'amacupa y'inzoga, umugabo na we afashe ahantu hafi yayo ayareba inyuma inyuma ye hari undi wambaye ipantaro yatebeje umupira, amacupa y'inzoga apfundikijwe n'utuntu tw'umweru ndetse n'utw'umutuku, ni menshi cyane aratsitse.

Imboga ziri ku isahani, hariho teyi n'ibibabi by'imboga biri ku isahani. Impande yabyo hari ibindi bibabi by'imboga. Hano birasa umweru, hari gusa n'umweru naho uko bigaragara neza.

Ibibisi bisatuye bimeze nk'amadegede, indabo mu kantu kameze nk'agasafuriya, ibihase bimeze nka karoti zisataguye, ibimeze nk'ibishishwa, ibimeze nk'ibisate by'amagufwa, ibimeze nk'ibisate by'ibijumba, byose biri muri utu tuntu.

Amagambo yanditse mu ibara ry'igitare ari mu kantu k'akaziga k'icyatsi uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo n'ibindi nibindi bigiye byanditsemo. Hejuru handitse revive igisubizo ku muryango, hirya hari agakombe kameze nk'agapfundikiye.

Iki giti ni umuravumba, gifite amababi, mwimbere hari ibintu by'ibikonikoni by'ibihirima byagiye bicikaho amababi. Iki giti giteye ahantu mu rupangu, urupangu rwamatafari akoze muri sima n'umucanga.

Umugabo wambaye ingofero y'abasilamu, hano mu tubati harimo amacupa atandukanye y'utuntu tumeze nk'aho ari amavuta, hirya hari kabuhariwe mu gusobanura akoresheje ibimenyetso cyangwa se amarenga.

Igiti k'ikimera cy'umuravumba, kiragondaraye gifite amashami agiye atandukanye n'amababi atandukanye, aya mababi yacyo, harimo ayarereta cyane kimeze nk'igitoshye.

Icyatsi kimeze nk'umuravumba ukiri mutoya, giteye ahantu hameze nk'aho hari ishwagara, hanyanyagije ibintu bimeze nk'aho ari ibyatsi by'ibishwagara. Hirya hariyo utundi turi kumera, turi ahantu hijimye.